Abasirikare ni abantu badacungira umutekano, baba bambaye iniforume y'inkweto, ipantaro n'ishati n'ingofero biriho n'amapeti. Iyo hariho abantu barwanye barabafunga, abasambanyi nabo bakabafunga.

Abadaso ni bamwe mu bacunga umutekano w'igihugu, baba bambaye impuzangankano y'ishati, ipantaro, ingofero n'inkweto za butinini. Iyo baba bari kuducungira umutekano baba bahagaze neza cyane.

Imbwa ni itungo ryiza cyane, hari izo bakoresha zirinda urugo hari izo bakoresha mu mutekano w'igihugu, zisaka abantu cyane cyane ibyuma cyangwa se ibisasu.

Umutekano w'igihugu ugirwa n'abasirikare, abapolisi, abadaso, ndetse n'abandi. Bambara inifomo nziza cyane, ingofero, amakoti n'amapantaro, n'inkweto za butinini, amashati yabo cyangwa amakote, aba ariho amazina yabo ndetse n'inyenyeri.

Kamera ni nziza cyane. Zifasha cyane cyane mu mutekano wo mu muhanda. Gufata abashoferi bishe amabwiriza y'umuhanda. Iyo barengeje umuvuduko wabugenewe zirabafata.

Abaporisi bacunga umutekano， bakanarinda abaturage，bakanakemura ibibazo biri mu baturage.

Kaburimbo ni imwe mu mihanda myiza igezweho，igira aho kwambukira h'abanyamaguru，no muri korosi zebura. Habamo amatara yereka ibinyabiziga ko bigomba kugenda cyangwa bigahagarara.

Mu nama hatangirwamo inama zo ku ngingo runaka. Havugirwamo ibintu bitandukanye cyane cyane nk'imyanzuro bafatira ibintu runaka. Iba iyobowe n'abayobozi bakomeye cyane.

Abakora isuku yo mu muhanda baba bambaye iniforume y'amajire. aba yanditseho isuku hose cyangwa se isuku yo mu muhanda. Bagira imikubuzo itandukanye hari abakoresha imikubuzo yo hasi cyangwa se imeze nka rakerete.

Sale ziba ari nziza cyane. Ziba zirimo intebe zitandukanye abantu bazicaramo baba ari abasirimu. Haba harimo imyanya ndetse n'aho kwicara heza cyane. Iyo abantu batumiwe muri sale, babaha ibyo kunywa bagasabana n'inshuti zabo. Bumva ikiganiro bateguriwe n'abayobozi.

Amashuri bayigiramo, abanyeshuri, haba harimo: ikibaho, intebe, ndetse n'akabati agira inzugi za metarike, abanyeshuri babatuma ababyeyi bagakora inama, bicara muri ayo amashuri cyangwa bagahagarara mu kibuga.

Inama zikunda kubera muri sale. Haba harimo isuku iri kugaragara neza , uwitabira inama bamuha amazi yo kunywa atuma aruhuka mu mutwe.

Inama ziyoborwa n'abantu bakomeye b'abayobozi. Higirwamo ibintu bitandukanye. Baganira ku ngingo nyinshi cyane. Abazitabira babaha ibyo kunywa cyangwa se n'ibyo kurya biba bari kugaragara neza cyane.

Muri sare haba harimo intebe n'ameza byiza cyane. Buri gace kaba gahanye umwanya n'akandi, hakunda kuberamo inama cyangwa se ibirori bitandukanye, biba bifite umuyobozi cyangwag se icyabateranyirije aho.

Mu nama bagaragara neza cyane, iba irimo abayobozi bayiyoboye, abayitabiye bicara ahantu heza, babaha amazi yo kunywa, abafasha kuruhura mu mutwe.

Abakaraza baba bambaye inifomu, bakaraga ingoma neza cyane, baba bafite n'imirishyo, buri mukaraza aba afite imirishyo ibiri.

Inzu ndangamurage ziba zirimo ibintu bya kinyarwanda，cyane cyane amasekuru， imyuko，ibisabo， n'ibindi bitandukanye. Ibisabo babicundiragamo amata.

Inka zigira amoko atandukanye hari inyambo ,igaju, ibihogo ndetse n'izindi zitandukanye zigira amahembe manini, zitanga umukamo utubutse, zigira n'inyama ziryoha zigira n'imishokoro.

Abahigi bakoresha imyambi cyangwa se imiheto. Bakunda kuyikoresha iyo bari guhiga isha. Bararasa umwambi wayifata ikagwa aho ngaho bakayirya. Bagira n'imbwa cyagwa se izindi nyamaswa. Bahiga mu mashamba.

Kera habagaho ibintu bitandukanye cyane cyane ibikoresho byo mu rugo habagaho amasekuru ,ibisabo, inkongoro, imidaho, imyuko ndetse n'ibindi. Ibisabo babyifashisha iyo bagiye gusaba.

Mu muco wa kinyarwanda babyina imbyino gakondo. Baba bambaye amayugi n'imishanana, baba bafite amacumu cyangwa se imiheto. Abo babita ababyinnyi. Babyina neza cyane.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibikoresho bitandukanye, nk'imyuko, imidaho cyangwa se imbehe. Imbehe bazigaburiramo abantu, bazishyiramo ibiryo bakabirya. Hari n'izo banyweramo amasosi.

Ibicuma babinyweramo inzoga cyangwa se umusururu. Banywesha imiseke， biba ari byiza cyane， kubera ko ababinyweramo，bakunda kuba bicaye，no ku birago. Ibyo ni ibikoresho byo mu muco wa kera.

Mu muco wa kinyarwanda habagamo ibikoresho bitandukanye hari ibyo bitaga agaseke cyangwa se icyibo cyangwa se agasero. Bagatwereramo imyaka, cyangwa se ababyinnyi bakakikorera ku mutwe bari kubyina cyane cyane mu muco gakondo.

Inkono bazitekeragamo, zibumbwa n'abatwa, babumbisha ibumba, bakazicanira kugira ngo zigaragare neza cyane, barazigurisha zigahenda.

Abakecuru n'abasaza， banywa amatabi yitwa ibikamba. Bayanywera mu nkono， havamo imyotsi， ngo niyo bamira bakumva baranezerewe cyane.

Mu muco w'Abanyarwanda babyina indirimbo za gakondo. Ababyinnyi baba bambaye imikenyero cyangwa se imishanana. Babyina bateze amaboko neza cyane, ababyinnyi baba bambaye n'amayogera atuma umuziki ugenda neza cyane.

Amatara aratumurikira. Akunda kuba akoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi. Amurika ahantu hose ku buryo abantu bareba ibyo bari gushaka, cyangwa se bakayigiraho. Rimwe na rimwe bakayidagaduriraho, kuko baba bari kureba neza cyane.

Imiduri barayicuranga， iyo bari kuririmba indirimbo zitandukanye. Bakoresha ibintu bimeze nk'igicuma kiriho n'igiti，bagakubitishaho agati gatoya，bigira umuziki uryoheye amatwi.

Ababyinnyi babyina neza cyane, babyina indirimbo za gakondo. Iyo bari kubyina baba bafite amacumu, bambaye inzogera mu maguru yabo.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibikoresho bitandukanye; nk'ibisabo babicundimo amata, babikoresha kandi mu bukwe cyane cyane ku mugeni, abakobwa barapfukama ku birago bakabitwara, byitwa ko bari gucunda amata.

Umuvure ni igikoresho cya kinyarwanda, bawengeramo inzoga cyangwa se umusururu ,bawugirira isuku uba ubajije mu giti cy'umuvumu cyangwa se intusi ,gusa ugira amafaranga.

Umuco wa kinyarwanda, iyo bagiye gusaba umukobwa bamukwa inka y'igaju, cyangwa y'isine, cyangwa se inyambo. Hari abayivugira bitwa abavuzi b'inka. Babaha amafaranga menshi cyane.

Bakoresha imiheto cyangwa se imyambi bari guhiga mu ishyamba, bahiga amasha n'ibindi bisimba byo kugaburira imbwa cyangwa se kurya, iyo bakibonye bagitera umuheto munini cyane.

Ababyinnyi baba bambaye inifomu amayogi, imishanana, bafite n'amacumu, babyina indirimbo za gakondo nziza cyane.

Umuvure bawengeramo ibitoki, abawengeramo babita abakamyi, bavanamo umutobe cyangwa se inzoga, uba ufite isuku nyinshi kuko barawoza.

Umuvure n'ubutanda babikoresha bari kwenga inzoga n'umutobe, umuvure bawutaramo inzoga ubutanda babushyira hejuru y'umuvure, kugira ngo hatagwamo amakoma inzoga ntishye. Barakugira kugira ngo inzoga ishye.

Mu muco wa kinyarwanda bagira ibikoresho bitandukanye ibirago, inkoko, ibyibo, ndetse n'amasekuro. Ibyibo babishyiramo imyaka yo gutwerera ,ibirago babyicaraho , n'aho inkoko barazigosoza.

Inkoko bazishyiraho ibintu bitandukanye cyane cyane ibishyimbo, amasaka, ibigori canga se soya, barabigosora. Hari n'abashyiraho ibyo babeteye ku rusyo.

Ababyinnyi baba bambaye amayogira. Baba bafite amacumu cyangwa se imyambi. Bambara neza cyane, baba bafite abakaraza bari kubakaragira ingoma, bakoresha ibitiri bibiri bita imirishyo.

Inka zigira amahembe meza cyane maremare ,ateze neza, bakunda kuzikwa mu gusaba abageni ,zigira amata meza cyane aryoshye ,zibamo inyama zivamo isosi iryoshye cyane ,abazifite bafite amafaranga menshi cyane.

Ishoka ni igikoresho dukoresha turi gutema ibiti. Ifite amazina atandukanye， yitwa indyabiti，inshenyi，bayikoresha bari gutema ibiti cyangwa bari kwasa inkwi zo gucana.

Ibibindi ni ibikoresho bya kera， babyikoreragamo inzoga， bagiye mu bubukwe cyangwa se bakabibikamo amazi. Abantu babishyiramo umuseke iyo harimo nk'ibikatsi.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibikoresho bitandukanye, cyane cyane inkoko, isekuru, inkongoro, imivure n'ibindi. Inkoko bazigosoreraho imyaka cyane cyane ibishyimbo cyangwa se amasaka. Isekuro bazisekuriramo isombe cyangwa se soya.

Uduseke n'ibirago ni ibikoresho byo mu muco gakondo wa kinyarwanda, uduseke badukoresha bari kubyina cyane cyane imbyino gakondo, ibirago babyicaraho bari gucunda amata.

Abakaraza bakaraga ingoma baba bafite imirishyo (ibiti bakoreshaga bari gukaraga ingoma). Bagaragaraga neza cyane bakoresha ikinyabupfura cyinshi cyane.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibintu bitandukanye，imbehe， ibirago， amasekuru， ingobyi， uduseke， n'ibindi bitandukanye， bakoresha bagiye gusaba.

Inka ni itungo rigira amafaranga. Zitanga umukamo. Hari izo bita igaju, inyambo, ibihogo ndetse n'izindi. Zigira ibihembe binini cyane, zigira inyama ziryoha. Abazorora bagira amafaranga.

Amatara amurika nijoro, akamurikira abantu kugira ngo bagende cyangwa se barebe ibintu bitandukanye, akunda kuba ari mu nzu cyangwa se ku muhanda, agaragaza ikintu runaka uri gushaka.

Mu bibuga haba haciyemo imirongo itandukanye igaragaza aho batagomba kurenza. Habaho ibibuga bitandukanye ibya futu boro, ibya vore n'ibya basikete boro. Haba hari naho abafana bahagarara ndetse n'abasimbura.

Abantu benshi bakunda kujya gushaka serivisi zitandukanye. Cyane cyane ku murenge, ku kagari cyangwa se n'ahandi hantu baba babatumiye, bitabira ari benshi bafite icyo bagamije kugaragaza no kugeraho.

Ibiti babitera ku muhanda， kugira ngo bitange akayaga keza cyane， banabone aho kugama izuba. Bitaga imbaho， bigakurura n'imvura. Cyane cyane ku bitaro n'impande y'imihanda， niho biba biri cyane.

Ibigega babishyira ku mazu y'abantu, kugira ngo bifate amazi ava ku mabati, kugira ngo adateza impanuka cyane cyane gucika kw'inkangu, cyangwa se gusenyera abaturage, ayo mazi bayashiramo imiti yitwa siro, kugira ngo bajye bayakoresha mu mirimo itandukanye.

Ibiraro bikunda kuba ahantu hari imigezi. Byambukiraho amamodoka, abantu, amagare, moto, n'ibindi byinshi cyane. Biba bikoreshejwe ibyuma, iyo habaye umwuzure birinda kwangirika k'umuhanda.

Ku muhanda habaga hateye ibiti. Bitanga umuyaga ku bantu bawugendamo. Haba hateyemo kandi n'indabo nziza cyane zituma hagaragara neza.

Udupfukamunwa twambarwaga muri kovide, abantu batwambara iyo barwaye imitwe cyangwa se bafite ibindi bibazo bitandukanye. Tugaragara neza cyane, duhisha byinshi ni twiza cyane.

Mu byumba bitandukanye haba harimo amamatera ,ibitanda ,amashuka meza n'imisego byo kuryamamo. Abaryamaho bagiraga ubuzima bwiza kuko nta mavunane bagira baryama neza bakiyorosa bagasinzira neza cyane.

Ibendera ni ikirango gikomeye cy'igihugu. Riba ririkugararamo ni'izuba. Rigira amabara atatu :ubururu, umuhondo n'icyatsi Rikunda kuba riri ahantu hari igikorwaremezo. Nk'umurenge, akagari, amashuri n'ahandi hatandukanye.

Hari ibibuga bigira ibyatsi ndetse n'amabuye. Amabuye bayubakisha inzu, bayubakisha imihanda cangwa se n'ahandi hantu hatandukanye. Amabuye kandi atuma abantu bakora agisida.

Ibigega bifata amazi yo ku inzu cyane cyane ayo imvura. Bayakoresha bari gukoropa, gucucira no gukaraba. Bayateramo imiti yitwa siro kugira ngo bice mikorobe ziba zirimo.

Umusigiti ni inzu nziza ihurirwamo n'abakristu b'abayisilamu baba bafite igitabo cyitwa Ikorowani barasara kandi baba bitandiye ,iyo bagezemo barasenga, bagasiga inkweto hanze.

Amashyamba ni meza cyane. Abamo ibiti inyamaswa ibyatsi ndetse n'ibindi. Ibiti babitwikamo amakara bikavamo n'inkwi zo gucana. Amashyamba akururaga imvura kandi agatanga umuyaga mwiza cyane.

Kiliziya ni ingoro y'Imana, abakirisitu gatorika bajya kuyisengeramo ku cyumweru. Habamo abaririmbyi, abakirisitu, abapadiri, abahereza, abamasera ndetse n'abandi basoma ijambo ry'Imana muri bibiliya ntagatifu.

Amashyamba ni meza cyane aba arimo ibiti n'ibyatsi ndetse n'inyamaswa ,akurura imvura ndetse agatanga n'umwuka mwiza. Abayahinga bagira amafaranga kuberako bagurisha inkwi cyangwa se amakara.

Ku bigo bitandukanye bagira amabwiriza bahereza abanyeshuri mbere y'uko bagera mu mashuri, bagira kandi abayobozi batandukanye abashinzwe imyitwarire, ab'amasomo, n'abayobozi b'ikigo. Abanyeshuri bagaragazwa n'ikinyabupfura cyinshi cyane.

Amashyamba akunda kuba ari hafi y'inzu. Arinda abantu izuba ryinshi cyane. Abaga arimo inyamaswa zitandukanye. Akurura imvura. Agira kandi amafaranga menshi cyane.

Mu nsengero habamo abakristu, abapadiri cyangwa se abapasiteri ndetse n'abaririmbyi baririmba, basoma bibiliya yera cyangwa se bibiliya ntagatifu. Mu ba bakatoRrike bakora ikimenyetso cy'umusaraba, bakanahazwa barya ukaristiya.

Gereza bazifungiramo abantu bakoze ibyaha, abashinzwe umutekano barazirinda, cyane cyane abaporisi cyangwa se abasirikare, abafungirwamo baba bagaragaraho ibyaha bakoze.

Ku bitaro baravura. Habayo abaganga ndetse n'abadogiteri. Bagira imiti myinshi kandi myiza. Habayo abarwayi, abarwaza ndetse n'abagemuye. Abarwayi barembye babaha imiti bagakira.

Nk'ibisima birafasha cyane ,bacururizaho ibintu bitandukanye ,cyane cyane ibirayi ndetse n'imbuto, abantu bacururizamo baba bafite amafaranga kubera ko ,iyo imvura iguye abantu bajya kugamamo.

Inzu z'ama etaje ziba ari nziza cyane, ziba zirimo esanseri ituma umuntu agera mu cyumba ashaka, zigira isuku ihagije, ziba zubakishije amakaro cyangwa se ibirahuri gusa.

Amabuye bayifashisha bari kubaka, hari ayo bavanga muri sima bari kumena beto, hari nayo bakoresha bari kubaka umusingi, hari nayo babitamo isima. Agira amafaranga kubera ko atwarwa n'imodoka.

Ibendera ry'igihugu rigira amabara atandukanye. Umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi. Riba riri ahantu hari inyubako nziza cyane. Cyane cyane ku murenge, ku bigo by'amashuri, ku bitaro, n'ahandi hatandukanye.

Amazu y'amayetage aba ari meza cyane. Aba afitemo esanseri ifasha abantu kugera aho bashaka. Aba kandi afite isuku nyinshi kandi nziza.

Ibiti bikurura imvura, bigatanga na ogisijeni ku binyabuzima, babicanamo inkwi, babibazamo n'imbaho bubakisha, babitwikamo n'amakara yo gucanisha mu mbabura.

Abafundi ni abantu bubaka inzu, amarigore, bubaka rondereza ndetse n'ibindi, bakoresha ibikoresho bitandukanye bakoresha amapiki, imyiko, ibitiyo ndetse n'amasuka.

Ibiti babitera hafi y'inzu, kuko bikurura umuyaga mwiza cyane, bitanga n'imvura birinda izuba ryinshi kuko babyicara munsi bitanga agacucu, babikoramo imbaho zo kubakisha ndetse n'amakara yo gucanisha mu mbabura.

Amashyamba aba ari meza cyane, akurura imvura, atanga umwuka ku binyabuzima, witwa Ogisijeni, bakoramo imbaho cyangwa se inkwi zo gucana, batwikamo amakara yo gucanisha mu mbabura, avamo n'amafaranga menshi cyane.

Mu bagatulika bagira abantu batandukanye cyane cyane abapadiri, abamasera ,abahereza ndetse n'abandi bantu bambara amakanzu atandukanye ,bitewe n'igihe bagezemo. Hari igihe cya Sensiyo na Somusiyo bambara imyenda itandukanye.

Ibigega bibika amazi yo gukoresha mu mirimo yo mu rugo. Bigira amarobine yo kuvomeraho. Amazi asokeramo abantu bakavoma neza cyane.

Imodoka zitwara ibintu bitandukanye. Hari izipakira amabuye, amatafari, inkwi ndetse n'ibitoki. Hari n'izindi abantu batembereramo bava mu gace kamwe bajya mu kandi. Zigira n'amafaranga menshi cyane.

Indabo bazitera ku muharuro wo mu rugo, zigira ahantu uba heza cyane ,bazishyira kandi ku bituro by'abantu bapfuye.

Inzu z'ama etaje ziba ari nziza cyane, zigira esanseri cyangwa se amasikariye yo kuzamukiraho, ziba zifite isuku ihagije, ndetse zikunda no kuba zubakishijwe amakaro agaragara neza cyane

Ibiro ni inyubako iba ikeye cyane, ikorerwamo n'abantu bakeye cyane, iba ifite isuku nyinshi kandi ihagije. Hakoreramo abayobozi.

Abatwara amagare, babita abanyonzi，hari abatwara abagenzi aba afite intebe imwe， hari n’ayandi atwara imizigo， aba afite intebe ebyiri， bayita ramuzini，hari n'ayandi ya siporo， agenderwaho n'umuntu umwe gusa.

Amapoto aba ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, atuma amatara yo ku muhanda yaka neza akamurikira abagenzi mu gihe cya nijoro, agatuma kandi batabambura ibyo bafite cyangwa se ngo barwane batari kureba.

Abamotari batwara abantu neza cyane. Bambara kasike, bagira n'iz abagenzi bambara. Barahenda cyane, batwara neza abagenzi babo.

Ibiraro bikunda kuba byambukiranya agace kamwe n'akandi byubakwa n'abazungu cyangwa se abasirikare. Ibyo biraro birabyina biba biriho senyenge ku mpande zombi kugira ngo abantu batajya bikubita hasi.

Amashyamba aba ari meza cyane. Akurura imvura，agatanga umwuka mwiza mu bantu. Atanga imbaho， inkwi，n'amakara yo gucana mu ngo z'abantu.

Ibendera rigirwa n'amabara atatu. Ubururu, icyatsi n'umuhondo. Rikunda kuba ahantu hubatse igikorwa remezo, cyane cyane ku mashuri, ku bitaro ndetse no ku murenge.

Imodoka ni nziza cyane. Zifasha abantu gutembera ,gukora ubucuruzi ,kwamamaza, kwiga ndetse no kujya ku kazi mu buryo bworoshye . Iyo ufite imodoka uba uri umukire. Zigira amafaranga kandi ni insirimu.

Ku muhanda hakunda kuba hari ibyapa byerekana amashusho y'ikintu runaka, hari ibiba biriho amategeko y'umuhanda cyangwa se biriho ibyo bari kwamamaza cyangwa se biri kugaragaza igikorerwa aho hari ibiba biriho imodoka.

Mu nama havugirwamo ibintu byinshi cyane， bagafata n'imyanzuro itandukanye. Inama iba yitabiriwe n'abaturage n'abayobozi. Hari abandika ibitekerezo byatanzwe， kandi baba bari no kuganira ku burenganzira bwa muntu.

Abadaso ni bamwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu. Baba bambaye inifomo z'ingofero，ipantaro ndetse n'ishati，n'inkweto za butini. Bagenda mu bice bitandukanye by'igihugu， bari kumva ibibazo by'abaturage，iyo wakosheje baragufunga.

Ibiti ni byiza cyane bitanga igicucucu abantu bakugamamo izuba ,bintanga kandi amakara yo gucana cyangwa se inkwi ku bacana mu ziko, bitanga amafaranga hari n'ibikura bakabikoramo amapoto.

Abacamanza baba bashinzwe ubutabera bw'abaturage ,bumva urega ndetse n'uregwa, bagaca urubanza hashingiwe ku ngingo n'amategeko by'igihugu ,baba bari kumwe n'abashinzwe umutekano w'abaturage.

Abacamanza baca imanza z'abantu baburana ,cyane cyane ababa barafunzwe bari kuzira ibyaha bitandukanye ,batanga imyanzuro baba bafatiye muri izo manza, haba abatsinda n'abatsindwa.

Inama iyoborwa n'umuyobozi. Hafatirwamo imyanzuro itandukanye, yo kurengera uburenganzira bwa muntu. Batanga amazi yo kunywa ku bitabiriye iyo nama.

Habaho ibimodoka binini bitwara ibintu bitandukanye. Hari ibipakira umusenyi, hari ibitwara peteroli, hari n'ibindi bitwara amabuye. Ibi bimodoka bigenda ku murongo, bigendera ku muvuduko wabugenewe. Ni byiza cyane.

Ibimodoka binini biba ari byiza cyane bigiramo televiziyo abagenzi bagenda bari kureba, bigendera ku muvuduko mwiza cyane bigiramo kandi na wifi, abafite simatifone bagenda bari gucata n'inshuti zabo.

Muri gare hagaragaramo imodoka zitandukanye. Zijya mu bice bitandukanye by'Igihugu. Hari izitwa tagisi, difarenti, fiderite, ritiko ndetse n'izindi nyinshi cyane. Zitwarwa n'abashoferi beza cyane.

kwamamaza bibaga ari byiza cane cane cane fpr, abamamazaga babaga bakeye, babaga bafite utudarapo cane cane bari kwamamaza kagame.

Muri gare habamo amoko atandukanye y'imodoka habamo : Ritiko ,takisi, renjilova ndetse n'izindi zitandukanye, abagenzi batega ritiko, renjilova zigendamo abakire.

Imihanda ikorwa n'imashini zitwara itaka bakarishyira mu modoka zikajya kurimena ahantu runaka, baba barashoyemo amafaranga yo gukora iyo mihanda, biba ari byiza cyane.

Indege ziba ari nziza cyane, zitwara abantu zibavana mu gihugu kimwe zibajyana mu kindi, abajya mu ndege bagenda bameze neza cyane kuko haba harimo ibintu byose bakeneye.

Imodoka za Jali ni nziza cyane zifasha abantu kwihuta, zigira amapine meza cyane kandi zigendera ku muvuduko mwiza cyane. Iyo ugendeye muri izi modoka ntumenya uko ugeze aho ugiye. Zirihuta cyane.

Abamotari bagira moto nziza cyane. Bagira kasike bambara n'iz'abagenzi. Babatwara mu bice bitandukanye bitewe n'aho bashaka kujya. Baca amafaranga menshi, gusa bagaragara neza cyane.

Muri gare habamo abantu batandukanye, baba bari gutega kugira ngo bagere mu duce dutandukanye, habamo kandi imodoka hari izitwa ritiko, diferensi, fidelite, taxi ndetse n'izindi z'ubwoko bwose zirihuta cyane kandi baca amafaranga meza.

Ibimodoka binini bya Vorukano ,bya Ritiko bya Diferenti biba ari byiza cyane, bitwara abantu bari kujya mu ntara cyangwa se mu mujyi, bigenda biri kwihuta cyane.

Igare rigira intebe umunyonzi yicaraho rikagira kandi n'intebe umugenzi yicaraho, izo ntebe ziba ziteganye zigaragaraho isuku nyinshi cyane, ziba ari na nziza cyane kuko ntabwo umuntu avunika iyo azicayeho.

Ibimodoka binini biba ari byiza cyane, bikunda gutwarwa n'abashoferi bagaragara neza, bigira aho kubika ibikoresho by'abantu bigira kandi na Wifi, abafite telefone nini bagenda bari gucata bakoresheje iyo interineti.

Imodoka za dayihatsu zirafasha cyane, kubera ko abapakizi bapakiramo ibintu bitandukanye, nk'amatafari, amabuye, inkwi, ndetse n'ibindi. Abashoferi barabitwara neza cyane.

Imodoka za Ritiko ziba ari nziza cyane, zigaragaramo wifi iyo uri kuzigenderamo. Abazitwara babita abashoferi, zigira aho kubika imizigo, abazigendarmo baba ari abasirimu cyane.

Muri gare haba harimo abantu benshi cyane baba bari gutega amamodoka yo kubajyana mu bice bitandukanye by'igihugu, mu mamodoka haba harimo isuku ihagije cyane, ugenda uri kumva umuziki cyangwa se uri kurya ibyo wiguriye.

Hari imodoka zitwa za dayihatsu cyangwa se rivani zitwara utuzigo, cyane cyane zipakira imboga nka karoti, amashu, betarave, dodo na tungurusumu.

Amagare ya siporo agaragara neza cyane. Atwara umuntu umwe, uyagenderaho agiye ahantu runaka. Agira amafaranga kuko arahenda cyane. Bayakoresha mu mirimo itandukanye.

Imodoka ziba nziza cyane. Hari izo bita Litiko, Difarenti ndetse n'izindi. Zigira aho kubika ibikoresho by'abagenzi, zigiragimo na WIFI abantu bagenda bari gucata, kandi zigendera ku muvuduko mwiza cyane.

Imodoka zitwara abantu zibavana mu cyerekezo kimwe zibajyana mu kindi, zikunda kuba ziri Kigali, Musanze cyangwa se Rubavu, zitwara abantu neza cyane, zigendera ku muvuduko mwiza kubera ko zidakora impanuka nyinshi.

Abatwara amagare babita abanyonzi atwarwa n'abagabo cyane cyane. Agendera ku muvuduko mukeya. Bayatwaraho imizigo nk'ibitebo birimo ibyo basaruye, cyangwa se bavuye guhaha.

Muri gare haba hariho icyapa cyerekana gare ahantu iri ,haba hariho abantu bari kujya gutega ayo mamodoka aba aparitse muri izo gare, haba harimo imodoka zitandukanye cyane.

Abatwara imodoka babita abashoferi. Bakunda kugaragara neza cyane. Baba bambaye umukandara ubarinda gukora impanuka. Bagira amafaranga menshi cyane. Bakunda kugira n'isuku nyinshi cyane.

Muri gare habamo abantu benshi cyane, baba bari gushaka imodoka zo kubajyana mu bice bitandukanye by'igihugu. Habamo kandi n'abacuruzi baba bari gucuruza utuntu dutandukanye nk'utubiswi, utubombo ndetse n'uturindazi.

Amashyamba aba ari meza cyane, akurura imvura, agatanga n'umwuka mwiza duhumeka wa ogisijeni. Avamo imbaho, amakara n'inkwi zo gucana, avamo kandi n'ibyo bubakisha nk'amapoto cyangwa se amaburiti.

Muri gare habamo ahantu ho gukatishiriza amamodoka. Abanyeshuri batonda umurongo， cyane cyane mu gihe k'itangira，bagiye gukatisha. Abaturage basanzwe babashyira inyuma，kugira ngo batange umwanya w'abanyeshuri， baba bafite n'ibikapu birimo ibikoresho.

Sitade ziba ari nziza cyane, zigira imyanya yo kwicaramo; hari aho bicaza abafana, hari aho bicaza abakinnyi, hari aho bicaza abatoza, ndetse n'abanyamakuru. Amakipe barakina aba yambaye inifomu zisa.

Mu mikino itandukanye baba bari gukina, babita abakinnyi, baba bambaye indiforume yitwa amajezi, baba bafite kapiteni uhagarariye ikipe, bakina tenisi bakoresha agapira gatoya bakubitamo bagaherezanya.

Voleboro ni umukino ukinwa n'amaboko gusa, abawukina baba ari barindwi, bagaragara neza mu kibuga, kubera ukuntu baba bahagazemo.

Balo ni igikoresho cyiza cyane gifasha abakinnyi gukina neza cyane , cyane cyane abakina volebolo , basiketibolo, futubolo ndetse n'indi mikino itandukanye.

Mu bibuga habamo imirongo itandukanye hari iyo muri penalite ,hari iyo muri kufura, hari igabanyamo ikibuga kabiri ndetse hari n'iyo batereramo koroneri ,nyezamu aba ahagaze mu izamu rye ari kugira ngo batamutsinda.

Ibibuga bakiniramo voreboro biba ari byiza cyane haba harimo na fire iba itandukanya ikipe imwe n'indi, haba hariho n'abafana cyane cyane bari gufana amakipe ari gukina.

Abakinnyi baba bambaye amajezi. Bakina voreboro. Haba harimo file itandukanya ikibuga kimwe n'ikindi. Bakina bambaye amajezi, amasengeri ndetse n'amakabutura, aba yanditseho nimero zabo.

Buri kipe igira kapiteni, igira na nyezamu cyane cyane iyo ari iz'amaguru. Bambara amajezi, amakabutura, udupira ndetse n'inkweto za godiyo n'amasogisi. Buri mukinnyi, agapira ke kaba kanditseho nimero ze n'amazina ye.

Abakinnyi bakinira mu bibuga bakina fotobolo bambaye amajezi asa. Buri kipe igira kapiteni ikagira n'abasimbura ndetse n'abatoza. Bagaragara neza cyane iyo batsinze.

Abakina umukino w'amagare， baba bafite igihaha gikora neza. Baba bambaye amakabutura abafashe， n'udupira tubafashe， bambara kandi amakasike n'inkweto zifunze， kugira ngo babone uko banyonga neza cyane. Uwo mukino uba ubamo amafaranga menshi cyane.

Muri sitade ni heza cyane, habamo imyanya itandukanye; hari aho abafana bicara, abanyamakuru ndetse n'abakinnyi. Iyo ikipe yatsinze abafana barishima cyane.

Imodoka iba ari nziza cyane. Mu gihe cy'izuba iri kunyura mu muhanda iterana ivumbi. Itwara abantu batandukanye, hari abajya kuyitembereramo, abayiranguriramo ibintu n'abayikoresha mu mirimo itandukanye.

Ikipe iba ifite abatoza. igira na kapiteni uyikuriye. Baba bambaye inifomu zitwa amajezi. Bagira abafana. Ikunda kugira abakinnyi ndetse n'abasimbura.

Mu kibuga n'ahantu bakinira, hakinirwa n'amakipe atandukanye ikibuga gifasha abakinnyi gukina neza, nta biri kubatega cyangwa ngo bibasitaze, hari abakina bagatsinda mu buryo bworoshye kubera ikibuga cyiza.

Umukino wa voreboro ukinwa n'amakipe abiri atandukanye. Abawukina babita abakinnyi. Baba bambaye imyenda yitwa amajezi. Udupira tuba turiho nimero zabo ndetse n'amazina yabo. Uyu mukino uba urimo n'abafana. Ugira ikintu cyitwa file kibatandukanya batsindiraho.

Umukino wa handibolo bawukinisha intoki. Baherezanya agapira bakirukanka, bakaza gutsinda mu izamu by'abandi bari gukina nabo. Abawukina babita abakinnyi, baba bambaye iniforome zisa.

Amajezi ni iniforume y'abakinnyi. Bayambaraga bagiye gukina zibaga aumupira ni ikabutura umupiravuga kuri ho nimero n'amazina byumukinnyqi

Abakinnyi baba bafite abasifuzi babasifurira, baba bambaye amajezi, bakina umukino wa basiketi, bari kunaga mu kantu gatoya, bakaba batsinze igitego, habaga hariho n'abafana babafana cyane.

Abakina umukino wo kwiruka bagira ubuzima bwiza cyane. Baba bambaye imyenda ya siporo yabugenewe. Hari amasaha baba babahaye batagomba kurenza. uhageze bwa mbere aba atsinze, habamo amafaranga menshi cyane.

Umukino w'amagare ni mwiza cyane, utuma abantu bamenya uduce dutandukanye, kubera ko baba barigusiganwa kandi utuma babona amafaranga, menshi cyane.

Hari abakina imikino yo kwiruka. Baba bambaye imyenda y''amasengeri n'udukabutura kugira ngo biruke neza. Abiruka bagira ubuzima bwiza, kuko ingingo zabo ziragororoka neza cyane.

Abafana baba baje gushyigikira amakipe yabo yakinnye. baba bari gukinira mu bibuga， ibibuga biba birimo imirongo itandukanye， penarite，koruneri，igabanyamo ikibuga kabiri，ndetse n'izindi zitandukanye. Bakina umupira w'amaguru， cyangwa se uwa'amaboko.

Imikino iba ari myiza cyane haba hariho amakipe ahanganye abiri atandukanye, havamo ikipe itsinda ndetse n'itsindwa haba hariho n'abafana bafana amakipe yabo.

Abakinnyi cyangwa se abakora siporo baba bambaye imyenda yabugenewe bita amajezi, hari iba ari iy'imipira, n'amakabutura cyangwa amasengeri n'amakabutura , abambara amasengeri n'amakabutura baba bakina handibolo umukino w'amaboko bakina bari guherezanya agapira.

Umukino wa basiketiboro，ukinwa n’amakipe abiri，aba ahanganye， havamo itsinda，ndetse n'itsindwa， bakina bafite baro， bashyira mu kantu kameze nk’akabase. Iyo bashyizemo uwo umupira，ubwo baba batsinze igitego，haba hariho n'abafana.

Abakinnyi ni beza cyane ,bakina bambaye inifomu z'amasogisi ,n'amasengeri n'amakabutura baki habaho imikino itandukanye: imikino ya sitingivolebalo ,hakabaho n'iy'amaguru yitwa futubolo.

Gukora siporo biba byiza cyane, bifasha imibiri yacu kubaho neza, abantu bakora siporo bagira ubuzima bwiza, siporo zirinda kurwara indwara nyinshi cyane, zituma abantu bagira imitekerereze myiza.

Abakinnyi baba bambaye uniforume isa, cyane cyane amagodiyo, amasogisi, amakabutura n'udupira byitwa amajezi. Imipira iba iriho na nimero y'umukinnyi ndetse n'izina rye. Abakinnyi b'ikipe ya Rayon bambara ubururu bwuzuye n'umweru.

Sitade ni nziza cyane, ibamo imyanya abafana bicaramo, abasimbura ndetse n'abatoza, tugira kandi n'ikibuga abakinnyi bakiniramo, bakina ari bakeya.

Abakinnyi bakina hendiboro baba bambaye impuzankano yitwa amajezi, ikabutura, umupira uriho nimero y'umukinnyi, ndetse n'izina rye, bakinisha amaboko bari guherezanya baro.

Amazi bayogeramo cyane cyane ay'ibiyaga, pisine cyangwa se ayo mu migezi itandukanye, bakunda kuyogeramo ariko ararohamisha, abantu bayogeramo boga neza kuko baba bafite isuku ihagije.

Kwirukanka ni byiza cyane iyo bari kubikora baba bambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto za siporo , bituma bagira ubuzima bwiza cyane, bagahumeka neza, bagakura neza cyane.

Sitade ziba ari nziza cyane ,zigira imyanya yo kwicaramo yicaramo abafana, abakinnyi ,abatoza ndetse n'abandi baba baje gufana amakipe ari gukina cyane cyane volebolo na futubolo.

Umukino w'amagare uba ari mwiza cyane ,abawukina baba bambaye inifomu ,baba bafite utugare dutoya cyane, baba bambaye amakasike, amapantaro ndetse n'udupira tubafashe cyane utuma bamenya uduce dutandukanye tw'igihugu.

Sitade ni ahantu heza cyane, igira imyanya yo kwicazamo abakinnyi, abafana, abatoza, abasimbura ndetse n'abanyamakuru. Umukino wa Voreboro bawukinisha amaboko, abakinnyi baba bambaye amajezi.

Umukino w'amagare uba ari mwiza cyane, utuma abantu bamenya uduce dutandukanye tw'igihugu, abawukina baba bambaye inifomo za kasike ndetse n'amakabutura n'udupira, bawusiganwa ku matsiyerisi n'amasegonda n'amasaha.

Abakinnyi bakunda kuba bambaye inifomo z'amajezi agapira, ikabutura, inkweto n'amasogisi. Agapira kaba kanditseho nimero n'amazina by'umukinnyi buri kipe iba ifite kapiteni uyihagarariye. Abakina basiketiboro baba bameze neza cyane.

Basiketiboro, umukino mwiza cyane. Uryohera abari gukina n'abari kuwureba. Ubamo amafaranga, kandi ugatuma abari kuwukina bagira ubuzima bwiza. Bawukinira mu kibuga cyiza cyane.

Imikino y'amagare ni myiza cyane, ibamo amafaranga menshi. Ifasha abantu kumenya uduce tw'igihugu dutandukanye, kuko iyo bari kuyikina bazenguruka igihugu cyose, bagendera ku muvuduko mwinshi kandi bihuta.

Rigore ziba ari nziza cyane, zitwara amazi. Iyo imvura yaguye, amazi ajya muri rigore avuye mu muhanda.

Imihanda ya kaburimbo igira ahantu hitwa colosizembura, habamo amabara abiri umweru ndetse n'umukara, ifasha abanyamaguru kwambuka bava mu cyerekezo kimwe, bajya mu kindi. Iyo bahageze ibinyabiziga birahagarara bakambuka neza cyane.

Mu mihanda y'ibitaka， ibamo amabuye akunda kugusha abantu，iyo bayasitayeho. Ibamo n'abagizi ba nabi cyane cyane，iyo ari ni joro，barategana， bakambura ibintu abantu bafite.

Amabuye bayubakisha inzu，ariko atera agisida， iyo rikwikubiseho riguca igisebe. Bayamena no mu muhanda，kugira ngo utazacika，hari n'abayubakisha igipangu.

Umuhanda wa kaburimbo uba ufite aho ibinyabiziga binyura, n'aho abanyamaguru banyura. Habamo kandi na korosizebura abantu bambukiramo. Iyo bahageze ibinyabiziga birahagarara bakamanza bambuka. Iba igizwe n'amabara abiri umweru n'umukara.

Amagare n'udukoresho twihuse cyane, atwara abagenzi abavana mu gace kamwe abajyana mu kandi, abayatwara babita abanyonzi bakorera amafaranga make ariko aragwira cyane.

Imihanda ifite amakoni iba ari mibi cyane，ikunda gukorerwamo impanuka， kubera ko abaturutse imbere ntabwo bakunda kuba bari kureba ibiri inyuma，hakunda kuba hariho utumenyetso twinshi.

Ibigega bibika amazi y'imvura, barayakoresha iyo bari gukoropa, bari gucucira, cangwa se bari gukaraba, akunda kuba arimo imyanda, cyane cyane nk'imiserebanya, imibu n'ibitaka, kubera ko ibigega biba bidafunzwe cyane.

Ibiti biba ari byiza cyane. Bitanga umuyaga, bigatanga n'agacucu ko kwicaramo mu mugihe cy'izuba. Bikurura imvura, bigatuma abantu babaho neza cyane. Bikunda kuba biteye hafi y'imihanda cyangwa se mu ishyamba.

Kaburimbo iba ari imihanda myiza cyane habaho aho kwambukira hitwa muri korosi zebura, kandi iba igabanyijemo ibice bibiri. Igice kimwe cyo kunyuramo imodoka zimanuka cyangwa se ibinyabiziga bimanuka, ndetse n'ibinyabiziga bizamuka mu kindi gice. Habaho kandi n'aho abanyamaguru banyura.

Inzira z'ibitaka ziba ari mbi cyane ,zigira amabuye iyo uri kuzigenderamo, inkweto ziracika cyane cyane haba harimo ibibuye bishinyitse, ushobora no gusitara ukagwa hasi.

Imihanda y'igitaka ikunda kugaragaramo impanuka, ziterwa n'ubwinshi bw'abantu cyangwa se ibinyabiziga bigendamo, igira akayira k'abanyamaguru ndetse n'aho ibinyabiziga binyura iba ari mibi cyane.